Iyi inzu mberabyombi, irimo urubyiruko rwitabiriye inama. Buri wese afite icupa ry'amazi y'inyange ndetse bose bambaye imipira iri mu ibara ry'ubururu.

Aba ni abagore batatu umwe muri bo yambaye amataratara, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi y'inyange.

Iyi ni inzu mberabyombi iri kuberamo inama yitabiriwe n'urubyiruko, bambaye imipira iri mu ibara ry'umweru.

Iyi ni inzu mberabyombi, irimo abanyafurika ndetse n'abanyamahanga. Imbere ya buri muntu, hateretse icupa ry'amazi y'Inyange.

Iyi ni inzu mberabyombi, irimo abantu benshi batandukanye. Benshi muri bo bambaye imyenda isa.

Iyi ni inzu mberabyombi iri kuberamo inama, harimo abantu benshi batandukanye, imbere hahagaze umusore ufite indangururamajwi.

Iyi ni inzu mberabyombi irimo abantu benshi batandukanye, bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara ndetse n'ameza ari mu'ibara ry'umutuku. Imbere ya buri muntu wese hari icupa ry'amazi y'inyange.

Aba ni abagore batatu bambaye amataratara, umwe muri bo afite ikaramu mu ntoki undi ari gusoma igitabo.

Iyi ni inzu y'igorofa imbere yayo hari igiti gifite ibara risa icyatsi, mu imbere haparitsemo ikinyabiziga hejuru yayo hari iminara.

Ibi ni ibitaro, aka ni akayira kajya mu nzu mu imbere, hakurya y'akayira hari ibyatsi biteye ndetse n'indabyo ziri mu ibara ritukura.

Iyi ni inzu mberabyombi irimo: abagororwa, abavoka ndetse n'abacamanza. Abagororwa bambaye imyenda iri mu ibara risa iroze.

Iyi ni inzu mberabyombi, irimo abantu benshi batandukanye b'ibitsina byombi, umugore umwe imbere ye hateretse mudasobwa, undi mugabo yambaye amataratara, n'undi mugore na we yambaye amataratara, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi y'inyange.

Uyu ni umugabo yambaye amataratara ndetse n'ishati irimo amabara atandukanye, yambaye ikanzu y'ibara ry'umutuku, umukara n'umweru.

Wari uzi ko ukwiye kwirinda abagira ibyo bagusaba bakwizeza kuzagufasha kubona ubutabera mu nkiko, birinde ubutabera ntibugurwa.

Iyi ni imodoka iri mu ibara risa umutuku irimo umugabo uyitwaye ndetse imbere yayo hahagaze umupolisi.

Iri idrapo rya FPR riri mu ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'ubururu, ryandikishijwemo n'ibara ry'umukara.

Aba ni abagabo babiri ndetse n'umugore umwe abagabo bambaye imipira iriho ibara ry'umweru umugore yambaye amataratara.

Iyi foto igaragaza abantu biganjemo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bamwe muri bo bambaye amataratara ndetse ab'igitsina gore bambaye imishanana.

Uyu ni umubyeyi w'igitsina gore yambaye ishati ,ijipo n'inkweto z'umukara yambaye amataratara yicaye ku ntebe yumweru.

Iyi ni inzu ifite ibara ry'ubururu, umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi, imbere yayo hahagaze abantu b'ibitsina byombi.

Aba ni ababyeyi harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, igitsina gore cyambaye imishanana, bahagaze imbere y'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Uyu ni umuhanda nyabagendwa urimo kugendwamo n'umusore ndetse ku ruhande rwawo hahagaze ikinyabiziga, hakurya y'umuhanda hari igikuta imbere yacyo hariho intebe.

Iyi ni ifoto y'umuhanda ucuritse, harimo umugenzi uri kugenda ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakurya y'umuhanda hubatse amazu.

Uyu ni umuhanda nyabagendwa urimo ikinyabiziga kiri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo. Gifite amapine y'umukara, hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Uyu ni umuhanda nyabagendwa, urimo ibinyabiziga bitandukanye ndetse harimo umusore wambaye umupira uri mu ibara ry'umweru ndetse n'abandi bagenzi bikoreye imizigo.

Iki ni icyapa kiri mu ibara ry'umweru, umukara n'umutuku, kibwira abayobozi bose b'ibinyabiziga ko batagomba kurenza umuvuduko wa mirongo ine.

Iyi ni ifoto igaragaza umuhanda nyabagendwa uri kugendamo imodoka z'ubwoko butandukanye harimo ibyapa bibiri ndetse n'imisozi.

Iyi ni inzu y'igorofa ifite amadirishya atatu, hejuru yayo hari ibigega bitatu biri mu ibara ry'umukara birimo amazi.

Aka ni agace kamwe kagize umujyi wa Kigali, aho bakunze kwita i Remera. Hari ibiti, hubatse amazu y'ubwoko butandukanye ndetse hari n'imisozi.

Uyu ni umuhanda nyabagendwa, hakurya yawo hari ibiti ndetse n'inzu zituwemo n'abaturage, hari amatara ndetse n'ibyapa bitandukanye.

Uyu ni umuhanda nyabagendwa, urimo imodoka z'ubwoko butandukanye, hakurya y'umuhanda hari ibiti biri mu ibara risa icyatsi.

Uyu ni umuhanda wa kicukiro. Hagaragaramo ibyapa bibiri imodoka ndetse n'imikindo ibiri n'abantu bari kugenda muri uwo muhanda.

Uyu ni umuhanda nyabagendwa ucuritse, harimo imikindo, ibyapa, amatara ndetse n'ibiti hakurya y'umuhanda.